Imiti nk'iyi ngiyi ni imiti ishobora kuba yarinda indwara. Yarinda indwara ibihingwa, amatungo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ishobora kuba yacuruzwa, abayicuruza bakaba babona amafaranga, amafaranga babonye akabafasha gukemura ibibazo mu miryango yabo, harimo nko kwishyurira abana amashuri no kubona ibyo kurya bya buri munsi.

Imiti y'ibihingwa, imiti y'ibihingwa ni imiti myiza cane bakoreshaga kugira ngo irinde udukoko, indi ifashe ibihingwa kuba byabyibuha, indi irinde ibihingwa kuba byakwirinda indwara, kuba byakwirinda indwara.

Gutera umuti ibihingwa bibaga byiza cane, kubera ko bifashaga ibihingwa kugira ngo bikure neza, bikure bibyibushe ndetse binirinde n'indwara. Nawe ukazabona umusaruro uhagije, wo guha abakiriya bawe na bo bakabona ibyo kurya bihagije.

Imiti irindaga indwara ni nziza cane umuntu ashobora kuba yayicuruza akabona amafaranga ,ku bahinzi baba bayikoresheje nabo bigatuma imyaka yabo imera neza kuko imiti irindaga indwara mu bihingwa, imiti ikanatuma ibindi bihingwa bikura neza bakabona umusaruro uhagije.

Imiti y'ibihingwa ni imiti myiza cane， iyo wateye imiti mu bihingwa，ibihingwa birabyibuha cangwa se ukayiteramo， ibihingwa bigakura neza， bigakura vuba vuba， ibihingwa bikabasha kuba byagira ibiro byinshi，mu gihe nta buremere byari kuzagira， iyo washizemo ifumbire，ibihingwa byawe ubaga uri kubirinda indwara nyinshi zitandukanye.

Umuti w'ibihingwa ni ikintu kiza cyane ushobora kuba wa wufata ukagukoresha igihe uri koresha, ushobora ku wukoresha uri kurwanya ibisimba, ushobora ku wukoresha uri kugirango imyaka yawe uyikore neza, ushobora ku wukoresha uri kugirango ngo imyaka yawe ibyibuhe cyangwa se kugirango ngo yongere ibiro, icyo gihe iyo byongeye ibiro amafaranga ukuramo ariyongera maze ukayakoresha uri kwishyura inzu, uri kwishyura ibyo kurya n'ibindi byose bitandukanye.

Umuti uvura ufura ibihingwa ni umuti mwiza cane ushobora kuba watuma ibihingwa bituma ,ugatuma ibihingwa ibihingwa bikura neza bibyibushe bibyibushe, cangwa se ugatuma ibihingwa bigira bigira umusaruro mwinshi muri rusange abawucuruza babonaga inyungu n'abawukoresha bakabona inyungu.

Buriya gupima ibihingwa nabyo ni ikintu ciza cane, cangwa se bikadufasha kuba twagira ibihingwa byujuje ubuziranenge. Tukamenya ibyo duhinga n'ibyo tutari buze guhinga, mu iyosizeni runaka tugezemo.

Umuti uvura ibihingwa ushobora kuba wabirinda indwara ukaba watuma bikura neza bibyibushe, umuti uvura ibihingwa ushobora kuba watuma byose byose bikura neza, ikindi kandi umuti uvura ibihingwa ushobora kongera umusaruro abantu bagasarura neza.

Gutera umuti ibihingwa ni byiza cane, kubera ko iyo uteye umuti ibihingwa bikuraga neza bibyibushye, ibindi bigakura neza kubera ko nta ndwara n'imwe ibitera, umusaruro ukarushaho kwiyongera iyo umusaruro wiyongeye, ibihingwa burya byatewe umuti bishobora kuba byakwiyongera n'ibiro.

Amafi ni meza gaturukaga mu kiyaga cangwa se zimwe mu migezi runaka, tukayarya, tukayarya, atanga akazi kubera ko hari abarobyi bayo, ikindi kandi amafi gari mu bintu turya biturinda indwara.

Imbuto zibahagaze nziza cyane, kubera ko kumuwa ziriye kwirinda indwara aka uruhu rutoje agaho n'ibyishimo, kuko kaba yariye neza bitumatuma mu buzima bwe bw'ubu buzima burambye, akazaba igihe kirekire.

Ahantu hari ikiyaga ni ahantu heza cane habaga ibinyabuzima byinshi habagamo amafi ,abantu bakoreramo ingendo zitandukanye abarobyi ,abasare, abambutsa abantu ,abashoferi b'ubwato babona amafaranga binyuze mu kuba batwara abagenzi bashaka kwambuka mu kiyaga baja ahandi hantu henshi cane hatandukanye.

Amafi nayo ni meza cane， amafi gavaga mu mazi， amafi avuye mu mazi， abarobyi bagarobye baragazana mu masoko，bakagurisha bamara kugagurisha， abacuruzi nabo bakayafata bakagagurisha abakeneye kugarya，abakeneye kugarya nabo bakagarya， iyo bagariye umubiri wabo uhora ufite ubudahangarwa，kuko amafi ni ingenzi mu mubiri w'umuntu.

Kuroba ni umwuga mwiza cane，kubere ko abantu barobaga bose babonaga amafaranga，iyo barobye amafi menshi， bakagurisha muri ago amafi bituma babona amafaranga， go gukemuza ibibazo byabo byo mu rugo.

Amafi ni meza cane, abarobyi barayaroga bamara kugaroba bagagurisha, iyo tugaguze turagafataga, tugagarya kandi burya amafi arindaga indwara igihe wayariye, igihe wayariye neza biragufasha biragufasha ntuhure n'indwara zitandukanye.

Amafi gabaga meza cane, kubera ko iyo abarobyi bagarobye baragagurishaga. Iyo bamaze kugagurisha, abaturage na bo bakabona ibyo kurya, iyo babonye ibyo kurya babifata nk'ifunguro ryiza cane, rikanatuma abo barobyi babona amafaranga, ndetse n'abayagura bakabaho neza.

Indege ni nziza ishobora kuba ari iy'umutekano ikadufasha kuva ahantu hamwe tuja ahandi, kandi tukajayo byoroshe cane kubera ko itwaraga iminota mike, ishobora kuba yakora ibyo ija no kuzimya umuriro cyangwa n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ubwato bubaga bwiza cane kuko budufasha mu ngendo dukorera dukoreraga mu mazi ,bigafasha abasare kuba baja kuroba amafi, bikanafasha n'abaturage kuba bava mu gice kimwe bari kuja mu kindi ahantu hari amazi.

Ibiryo byujuje intungamubiri zose zitandukanye ni ibiryo byiza cane kuberako bituma umubiri ugira ubudahangarwa, umuntu akabaho neza afite itoto ku mubiri ,ikindi kandi akirinda indwara zitandukanye akabaho yishimye kubw'uko yariye neza.

Amafi cyangwa ikindi kinyabuzima cose kiribwa gituruka mu mazi, kibasha kuba cyata cyatanga akazi ku bantu ku barobyi ikindi abaro abarobyi baki bakibonye iyo bakoze akazi neza babona amafaranga bakishyurira abana amashuri bakanabona n'atunga umuryango muri rusange.

Ubucuruzi bucuruza ibinyabuzima bituruka mu mazi bubaga bwiza cane, kubera ko ubucuruzi buturuka, ubucuruzi butuma umuntu yishurira umwana we amashuri, akishura inzu, akishura ibindi bikorwa remezo, akishura umutekano wa Leta, byose muri rusange akabikora neza binyuze mu bucuruzi mu nyungu yakuye mu bucuruzi.

Amafi ni meza cyane turagaryaga agandi tukagagurisha iyo twagarobye neza turagafataga tukagarya tugasagura nako kugurisha iyo tugagurishije kabonaga amafaranga tukadufasha gukemura ibindi bibazo twari dufite.

Isombe ni imboga nziza cane cangwa ibidodoki ni ibintu byiza cane bishobora kuba bya byahingwa ,iyo byahinzwe bi bikera neza abantu babonaga ibyo kurya ibindi bakabifata bakabigurisha, iyo babigurishije bakuragamo amafaranga bakagakoresha bikenura mu tuntu tumwe na tumwe two mu rugo.

Amajeri ni meza cane turaragahingaga iyo twagahinze gakera neza bigudufasha kuba twabona ibyo kurya iyo tuboneyeho ibyo kurya ku gihe biba bisobanuye yuko tugomba no gusagurira amasoko iyo dusagurira amasoko tukajya kugurisha tubonaga amafaranga gadufasha gukemura ibibazo kuko ari nayo nyungu tuba twakuyemo tukihishura inzu, amashuri, ibitaro n'ahandi hantu hose hatandukanye biri imajensi.

Ibigori ni byiza bitumaga tubona igikoma co kunywa tukabiryamo imvungure tukanabikoresha turi kubigurisha turabigurishaga tukabona amafaranga tukayakoreshamo ibindi bintu twarangiza tukabaho mu buzima bushimishije.

Ibi kuba umuntu yakwifata agahinga ni ibintu byiza cane bishobora gutuma witeza imbere ukabasha kuba wabona ibyo kurya byo mu rugo nk'ibihindangwa nk'ibihingwa ngandurarugo ndetse n'ibindi byinshi cane ushobora kuba wahinga bigufasha kuba wawa wabishyira ku isoko bika bikagira aho bigana bikajya hanze cangwase bika bigatembera mu gihugu hose n'abandi bantu bakabona ibyo barya ni ibintu byiza cane.

Amajeri ni meza cyane. Amajeri turayahinga, iyo wayahinze akera neza ufatamo amwe ukayarya ayandi ukagajyana ku isoko. Ayo ujyanye ku isoko ukabonamo amafaranga, amafaranga ubonye ukayakoresha uri gukemura ibibazo byo mu rugo, harimo nko kwishyura amazi, umuriro no kwishyura aho uba.

Guhinga ni ibintu byiza cane iyo wahinze neza ugahinga ibitoki, ugahinga n'ibindi bihingwa byose bihingwa mu butaka bibaga byiza cane bigufasha kugira ubona ibyorya ukabona n'amafaranga iyo ubigurishije byeze.

Isombe ni nziza, turazihingaga, n'amateke ni meza, turayahingaga, tukabasha kwikenura, tukiteza imbere, turagaryaga, tugarya buri munsi, iyo bibaye ngombwa tukanayagurisha, kugira ngo tubashe kubona amafaranga, dukemuza ibindi bibazo.

Avoka ni nziza cane abantu turazihingaga, iyo tuzihinze zikera neza tukazitara zigasha, zimwe turazigurishaga izindi tukazifata tukazirya, izo twagurishije tugakuramo amafaranga adutunga buri munsi, tukabasha no kuba twasagura n'andi dusevinga.

Ibirayi ni byiza cane turabihingaga kandi iyo twabihinze bikera neza bidufashaga kuba twakemura ibibazo dufite ku bw'uko tubigurishaga iyo tubigurishije tubonaga amafaranga menshi ahagije adufasha gukemura ibindi bibazo twari dufite harimo nko kwishura amazu, kuba twakwishurira amashuri, kuba twakwishurira abana bacu amashuri n'ibindi bikorwa byacu bikarushaho kugenda neza muri rusange tukabona n'ibyo kurya.

Ikawa ni nziza cane turayihingaga, iyo tumaze kuyihinga turayitunganya, iyo tumaze kuyitunganya tukayijana ku isoko, baduhaga amafaranga, tukayafata tukagakemuza ibindi bibazo byose tubaga dufite, ndetse bikanadufasha kongera guhinga.

Wotameroni ni ikintu ciza cane gishobora kuba cahinduka igicuruzwa, ndetse n'abandi baka bakabasha kuba bakigura bakijyanaa mu rugo bakakirya iyo wakiriye ugira amazi mu mubiri ikindi kandi kiranafasha kuko kirindaga indwara.

Ibigori ni ibintu byiza cyane turabihingaga bikadufasha kuba twabona ibyo turya bamwe bakabibetesha mo akawunga abandi baka bibeteshamo ifu y'igikoma abana babo bakabinkwa mu gikoma ndetse bakanabasha kuba babigurisha bakiteza imbere.

Amateke ni meza turagahingaga iyo twagahinze gakera neza twagahaye ifumbire gakera neza tubasha kuba twabona ibyo turya, tukanabona n'uko dusagurira amasoko ayo ago tujanye ku masoko gose gakaduhesha amafaranga ,amafaranga tukagakoresha ibindi.

Amagi ni meza iyo twaguze inkoko zikaduha amagi, zikaduha amagi tukabasha kuba twayarya, amagi garindaga indwara amagi gashobora kuba gagufasha ukaba wagira imbaraga, ndetse amagi ashobora kuba yafasha uwo nyiri kuba ayafite akayagurisha akikenura muri rusange.

Ibijumba cangwa n'ibigo ni ibicu ni ibintu bihingwa byiza cyane turabihingaga byakwera tukabona umusaruro muzima, iyo tubonye umusaruro muzima bimwe turabiryaga, ibindi tukabijyana ku isoko ibyo tujanye ku isoko bakaduha amafaranga, tuyakoresha turi kwikenura tunatunganya ibibazo byo mu rugo, kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza.

Ibisheke ni byiza turabihingaga. Iyo tubihinze bikera neza turabiryaga, ibindi tukabijana ku masoko kugira ngo tube twabasha kubona amafaranga yo kugira ngo tugure izindi mbuto, cyangwa se tubashe kuba twagura ibindi bihingwa, tunongere n'ubuhinzi bwacu muri rusange tunasagurire n'amasoko. Amasoko tujanyemo ibicuruzwa ibicuruzwa byacu twakuye mu murima ry'ibisheke tukabonamo amafaranga, tukishurira abana bacu amashuri.

Imyumbati cangwa amatake ni igihingwa ciza cane, iyo umuntu agihinze akagihinga ahantu hazima hari ifumbire, agahinga ibihingwa by'amateke bikera, iyo byeze arabicuruza, ibyo acuruje akabona amafaranga ndetse akagira n'ibyo yisigaza byo kurya.

Amateke nago gabaga meza turagahingaga, iyo tumaze kugahinga gakera, turagafataga tukagarya agandi tukagaha abavandimwe nabo bakagarya, agasigaye tugasagurira n'amasoko tukayagurisha tukabasha gukemura ibindi bibazo byose dufite, tukaguramo mu mafaranga avuyemo tukaguramo n'ibindi bikoresho byo mu rugo.

Ibigori ni byiza cyane, ibigori turabihinga, iyo tubihinze neza dushyiramo agafumbire, tukabyuhirira igihe, bikura neza, bikaduha umusaruro muzima, umwe tukawuhunika, undi tukawujyana ku isoko tukabona amafaranga tukayakemuza ibibazo, harimo nko kwishyura inzu, kwishyura amashuri, amazi n'umuriro.

Umwuga wo korora inkoko ubaga umwuga mwiza cane kubera ko iyo woroye inkoko biragufashaga cane. Iyo zikuze zigakura neza, zigatera amagi ukagagurisha ndetse izindi zitanateraga ukaba wazigurisha, bakazibaga zikavama inyama.

Guhinga imyumbati ni byiza cyane, iyo wahinze imyumbati ikera neza urayisarura iyo usaruye uyijyana ku isoko ,wayijyana ku isoko ukabona amafaranga, amafaranga ukayakemuza ibindi bibazo byose wari ufite harimo nko kwishyurira abana amashuri, kuba wakwiteza imbere ugura izindi mbuto zitari imyumbati ukazishyira mu murima nanone ugakomeza ugaterare imbere.

Ubuhinzi ni ikintu kiza cyane umuntu wese ashobora gukora. Ushobora kwifata ugahinga ibigori, wagira amahirwe wasarura neza warashyizemo ifumbire warashyizemo ibintu byose, ugasarura. Ibigori byose usaruye, amafaranga yose ukuye muri ubwo buhinzi ukaba wayakoreshe uri gukemura ibindi bibazo.

imboga ni igihingwa ciza cane kubera ko iyo wazihinze ntabwo ntabwo ushobora kuba wakicwa n'inzara ikindi kandi ushobora kuba wazigurisha ukabona amafaranga agufasha gukemura ibindi bibazo ukaba wawazihana nabaturanyi bakishima n'ibindi

Inkoko ni nziza turazorora iyo uzoroye neza zikaba zigatanga umusaruro, zishobora kubyibuha cyane zigatanga inyama nyinshi, zishobora kuba zatanga amagi, iyo zitanze amagi ukayajyana ku isoko, ukuramo amafaranga yo kwifashisha mu rugo, iyo mu rugo babuze ibikoresho ushobora kuba wabigura muri ayo mafaranga.

Ibirayi nibyiza turabihingaga iyo tumaze kubihinga tura turabifataga tugasiga ibyo turya ibindi tukabigurisha ibindi tukabirekera mu rugo tukajya turabirya amafaranga twakuye mu byo twagurishije tukayakoresha twishyurira abana amashuri twishura ingendo zimwe na zimwe dukora tukanaguramo n'indi mbuto yo guhinga muri rusange

Guhinga imiteja ni ikintu ciza cane kubera ko iyo uhinze imiteja ikera imiteje ikera imiteja irindaga indwara imiteja ihinduka ibiryo byawe bya buri gihe imiteja irafashaga kubera ko ushobora kuba wayihinga wamara kuyihinga ukayigurisha amafaranga uyigurishije ukayakemuza ibindi bibazo warufite harimo nko kwishura inzu, kwishurira abana amashuri ndetse n'ibindi.

Amapera ni urubuto rwiza cane, amapera arahingwaga iyo ahinzwe akera neza abantu baragaryaga abandi bakagagurisha. Amapera kagurishijwe abantu bahita bafata amafaranga gavuyemo bakagakoresha bakemura ibindi bibazo baguramo ibikoresho by'abana byo kujana ku ishuri, imyenda n'ibindi bitandukanye.

Voka ibaga nziza cane kuberako voka iyo wayiriye urayirya ukishima, ukayirya ugahaga, ikindi kandi voka idufasha kuba twakwirinda indwara zitandukanye kuko burya ibiryo biriho voka binateraga apeti.

Inyanya cyangwa pavro ni nziza cyane turazihinga, iyo uzihinze neza ukaba wajya kuzicuruza uzigurisha amafaranga, amafaranga ukuyemo yose ukabaha wayakoresha mu bindi, ukemura ibibazo byo mu rugo nko kwishyurira abana amashuri kwishyura amazi n'umuriro.

Avoka ni nziza, turazihingaga, abandi bakazirya, ndetse tubashaga no kuba twazigurisha, tukabona ibindi bintu bidutunga ku ruhande, bidasabye ngo zibe arizo turya zonyine; mbesi, avoka ni ikintu gikomeye cane muri rusange.

Avoka ni ni urubuto rwiza umuntu umuntu ahingaga waruhinga rwakwera neza uka ukaja usaru urasarura ukagurisha ukagurisha ,izisigaye ukazirya ariko niyo wagurishije ubona amafaranga agufasha kwikenura mu bindi bintu runaka.

Amapera ni meza cane, turagahingaga, iyo tugahinze gakera turagafataga tukagarya, agandi tukagaca tukagajana ku isoko, iyo tukajanye ku isoko tubonaga amafaranga. Amafaranga gose tubonye tukagafata tukagasevinga, amwe tukagafata tukagakoresha ibikorwa byo dukeneye gukora mu ako kanya, harimo nko kuba twakwishura ibyo kurya, inzu zo kubamo, tukaguramo n'imyenda.

Amashu ni meza turayahingaga. Iyo twahinze amashu gakera neza turagafataga tukagarya, agandi gasigaye tukagafata tukagajana ku isoko. iyo tugajanye ku isoko bakaduha amafaranga, ago mafaranga garadufashaga cane kubera ko tugakoreshaga turi kugura ibindi dukeneye.

Amapera ni meza turagahingaga, iyo twagahinze gakera neza, gamwe turagafataga tukagarya. Tugaha abaturanyi bakarya bakishima n'abantu bo mu muryango muri rusange, tukabaha bakarya bakishima. Agasigaye tukagashyira ku isoko, ago dushyize ku isoko bakaduha amafaranga. Amafaranga tukagakoresha dukemura ibindi bibazo dufite nko kwishyura ibyo dukeneye.

Ibirayi ni igihingwa ciza cane. Ibirayi turabihingaga, twabihinga bikera neza, iyo byeze neza turabigurishaga, ibindi tukabishira mu mago gacu tukaja turabirya, amafaranga twagurishije tukayakoresha turi gukemura ibibazo byo mu muryango, nko kwishurira abana amashuri, no kugura ibindi bikoresho dukeneye mu rugo.

Karoti ni nziza cyane turazihinga. Iyo uzihinze neza zikera ubasha kuba wazifata, zimwe ukazifata ukazishyira mu rugo ukazajya uzirya, izindi ukazikoresha uri kuzigurisha ukazijyana ku isoko. Iyo uzijyanye ku isoko ubona amafaranga, amafaranga ubonyemo ukayakoresha uri kwishyura inzu, uri kwishyura ibyo kurya, uri kwishyura n'amazi ndetse n'umuriro.

Umwembe ni urubuto rwiza cane abantu bashobora kuba barya rukabarinda indwara. Umwembe ndetse iyo wawuhinze neza ukabasha gusarura neza, ubonaga amafaranga ukishyurira abana amashuri, ugakera n' ibindi bibazo by'um biri mu muryango ubikemuje amafaranga wakuyemo.

Avoka ni urubuto ruhingwa n’Abanyarwanda, ndetse ko no ku isi hose habaga ho avoka, avoka idufasha kuba twayirya tukirinda indwara, ndetse iyo tuyongeye ku ifunguro ryacu, bituma ibiryo bituryohera, ubwo rero avoka ni ikintu gikomeye cane, tukirahingwaga, kiragurishwaga, mbese muri rusange avoka ni igicuruzwa gikomeye cane.

Urusenda ni rwiza turaruhingaga， iyo umuntu aruhinze neza rukera， rukera nta kibazo rufite， abashaga kuba yarurya， urundi rusigaye akarujana ku masoko，iyo urujanye ku masoko urarugurishaga，iyo urugurishije ubonaga amafaranga， amafaranga ukagakemuza ibindi bibazo byose waba ufite mu rugo.

Ibigori ni byiza turabihingaga iyo twabihinze bikera neza. Iyo byeze neza turabifataga tukabijana ku isoko, iyo tubijanye ku isoko tukabonaga amafaranga. Ni go dukoreshaga turi gukemura ibibazo by'abana bacu. Iyo bagiye ku ishuri tukabonera amakaye, tukababonera iniforume, tukanabonera n'ayo bazakoresha bari ku ishuri , tugura ibikoresho by'isuku n'ibindi bitandukanye.

Imyumbati ni myiza cane，turahingaga， iyo twayihinze ， turayifumbiraga， tukayitera umuti mwiza， hanyuma ikera neza， iyo yeze neza turayifataga， tukayigurisha， isigaye yose tukayibika， tukaja turayirya gake gake， amafaranga twagurishije tukayakoresha tugura ibindi bintu nkenerwa byo mu rugo.

Umwuga w'ubuhinzi ni umwuga mwiza cane udufasha muri rusange kuba twakwiteza imbere tukabona ibyo kurya, tuka iyo twateye umuti ibihingwa byacu bigenda neza bigakura neza bibyibushe ,bikanarinda n'indwara ndetse mu gihe byeze tukabona umusaruro muzima tukarya tugasagurira n'amasoko.

Inyanya ni nziza turazihingaga iyo twazinze zikera neza twarazishizemo um uhagije zikera neza, turazigurishaga. Izisigaye nazo tukazishyira mu rugo tukazaja turazirya, ariko na none ku rundi ruhande, inyanya iyo twazigurishije, dushobora gufata amafaranga twazigurishije tukayakemuza ibindi bibazo twari dufite mu muryango. Twishyura inzu yo kubamo, twishyura amazi, twishyura n'ibindi byo kurya muri rusange.

Ibigori, cyangwa amasaka, cyangwa ibishimbo ni ibintu byiza cyane, kubera ko bidufasha kugira tubashe kuba twakwishyurira abana amashuri, igihe twabihinze bikera neza tubasha no kubona amafaranga menshi yadufasha gukemura ibibazo bya famiye.

Ipapayi ni nziza cyane turayihinga，iyo uyihinze neza ugategereza ikera， iyo yeze urayifata ukayijyana ku isoko，iyo uyijyanye ku isoko ubona amafaranga，amafaranga yose ubonye akagufasha kwishyurira abana amashuri，kwishyura inzu ndetse no kwishyura amazi.

Ibirayi ni byiza turabihingaga, iyo tubihinze bikera neza turabifataga tukabirya ibindi tukabigurisha. Iyo tubigurishije tubonaga amafaranga, amafaranga gakadufasha mu kuba twakongera tukagura iyindi mbuto, tukongera tugahinga, agasigaye tukabyishuramo ibyo dukeneye bindi.

Icayi ni ciza turagihingaga iyo tugihinze neza kikera, tubashaga kuba twakigurisha mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, bigatuma tubona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo, harimo kwishurira abana amashuri harimo nko kwishura ibyo dukeneye dukeneye muri rusange.

Imyembe ni urubuto rwi ni umubuto rwiza ushobora kuba warya, iyo uriye umwembe uragufashaga ukagufasha kuba wakwirinda inzara indwara ukanagufasha kubaho kuba wakumva utekanye muri rusange, kuberako umwembe iyo waguriye ubashaka kumva wishimye, umwembe ushobora kuba wawukoresha wayikoresha uyigurisha ugahinduka buzinesi yawe muri rusange.

Amateke ni meza turagahingaga, iyo tugahinzega tukagakorera neza gakera, turagafataga tukagajana mu rugo, tukagarya, agasigaye tukagajana mu isoko, tukabona amafaranga, tukagazana mu rugo tukagakemuza ibindi bibazo dufite byo mu rugo.

Ibigori ni byiza cane turabihingaga iyo tubihinze bikera turabifataga tukabi bimwe tukabirya bikiri bibisi ibindi tukabyanika bikamanza bikuma tukabiryamo imvungure ibyo dusigaje tukabifata tukabijana ku isoko tukaguramo ibindi bintu dukeneye mu rugo.

Imyumbati ni myiza turayihingaga, iyo twayihinze ikera neza biradufashaga kubera ko tubonaga ibyo kurya, twaba twahinze imyumbati ikaba myinshi tukabona n'iyo dusagurira amasoko, twayijana mu masoko tukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo byo mu muryango.

Ingurube ni nziza cane kubera ko ingurube ni itungo ryororokaga vuba vuba, iyo umuntu abashije kuryorora neza rikagira amezi, rikabwagura ibibwana, ibibwana byayo barabigurishaga, bamara kubigurisha bakabona amafaranga cangwa se bakanayibaga bakarya inyama zayo.

Karoti ni igihingwa ciza cane abanyarwanda turagihingaga twamara kugihinga tugategereza bikera zamara kwera tukazishakira isoko tukazigurisha tukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo bitandukanye dufite muri rusange.

Guhinga ibirayi ni byiza cane ibirayi iyo wabihinze bikera neza urabi urabisarura, iyo ubisaruye iyo ubisaruye urabigurishaga ukabona amafaranga hagasigara n'ibyo ura urabika mu rugo, ukaja urabiryaho kugira ngo wirinde inzara yo mu rugo.

Avoka ni nziza cane ku buzima bwacu, iyo umuntu ahinze voka abashaga kuba yayisarura, igihe ayisaruye akayitara igasha, abashaga kuba yayigurisha, igihe ayigurishije abonaga amafaranga yo gukemura ibibazo byo mu rugo, akaba yakwishurira abana minerivari, akaba yakwishurira inzu akaba yakishura ibyo kurya n'ibindi byose bitandukanye.

Intoryi na zo ni igihingwa cyiza cyane ,Intoryi ni igihingwa gihingwa ahantu henshi hatandukanye mu bice by'igihugu. Intoryi iyo zihinzwe neza zikera neza ukazitera umuti ukaba waziteye umuti zikabyibuha zikera neza zitumaga ubona amafaranga ku bw'uko wazijyananye ku isoko ukana nawe ubwawe ukazirya kuko ni ubwoko bw'imboga.

Ibirayi bibaga byiza cane turabihingaga, iyo tubihinze bikera neza bikera bifite bifite bifite isura nzima turabigurishaga amafaranga menshi, twamara kubigurisha bakabijana ku masoko nabo bakabigurisha abaturage, abaturage bakabaho bishimye n'ababigurishije bose bakaba bishimye, kuko babaga babonye amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Ibigori ni byiza turabihingaga twamara kubihinga tugategereza bikera tukabisaru iyo tubisaruye tubashaga tubasha kubona ukuntu twabika byatumama tukabigurisha twamara kubigurisha tukabona amafaranga dukemuza ibindi bibazo ikindi kandi ibigori budu ibigori dushobora kuba twabirya natwe ubwacu nk'abahinzi.

Ibigega byahozeho na kera hose. Bibaga byiza cyane kubera ko iyo wahunitse imyaka mu kigega ari ibirayi, cyangwa amasaka, cyangwa si n'ikindi iyo ubibitse mu kigega birinda udusimba cyangwa udukoko turya imyaka, ndetse imyaka yawe ukayirinda kuba yakwangirika.

Ubunyobwa ni bwiza turabuhingaga iyo twabuhinze bukera neza turabufataga tukabujana ku masoko, bakaduha iyo tubuhaye abakiliriya bakaduha amafaranga turagazanaga tukagakemuza ibibazo dufite mu rugo, tukagira ubuzima buzira umuze twishimye natwe tukabona ibyo turya muri rusange.

Ubunyobwa ni bwiza cane turabuhingaga, twamara kubuhinga tugategereza bukera. iyo bweze turabufataga tukabukoramo isose, ubundi tukabugurisha. Ubwo tugurishije tukabona amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bitandukanye mu rugo.

Umuceri ni mwiza turagukundaga kubera ko iyo abahinzi baguhinze gukera neza bagushiraga ku masoko, natwe tukagugura tukabona ibyo turya na bakabona amafaranga, gabafasha gukemura ibindi bibazo bafite mu mago yabo.

Umuceri ni mwiza turaguhingaga, iyo tuguhinze gukera neza turagusaruraga, tukagurya, ugusigaye tukagujana ku masoko, iyo tugujanye ku masoko, iyo tugujanye ku masoko tukabona amafaranga, ago mafaranga garadufashaga mu muryango wacu, tukarushaho gutera imbere.

Imbuto y'ibigori cyangwa imbuto y'ibihaza cyangwa se n'izindi zitandukanye ushobora kuba wazikoresha, ugahinga ibihaza ukabijyana ku isoko, wabijyana ku isoko ukabonamo amafaranga ukayifashisha uri gukemura ibindi bibazo byo mu rugo nko kwishyurira abana amashuri, cyangwa se ukaguramo ibindi byo kurya bitandukanye cyangwa se ukishyuramo inzu.

Ibigori ni byiza cyane, turabihinga, twabihinze neza bigera igihe cyo kwera tukabifata, bimwe tukabyanika ibindi twarabiriye ari bibisi. Ibyo twanitse tukabihungura, iyo tubihunguye tubijyana ku isoko, ibyo tujyanye ku isoko bakabigura, duhita dufata amafaranga, amwe tukayasevinga andi tukayakemuza ibibazo dufite harimo nko kwishyura inzu, amazi n'umuriro.

Amajeri ni meza cane turagahingaga. Iyo twagahinze gakera neza turagasaruraga, twamara kugasarura gamwe tukagarya agandi tukagabika tukazagarya hashize igihe, gamwe tukagafata na none tukagajana ku isoko. Iyo tugagejeje ku isoko bakaduha amafaranga, amafaranga turagafataga tukagakoresha twishura ibindi bintu dufite muri rusange, harimo nko kuba twakwishura ibyo kurya na ho kuba.

Ibishimbo bibaga byiza cane , ibishimbo ni byiza turabihingaga, iyo twabihinze birakuraga bikera neza, iyo byeze neza turabiryaga, ibindi tukabifata tugasagurira n'amasoko, tukabona amafaranga go gukoresha dukemura ibindi bibazo dufitemo mu miryango yacu.

Amasaka ni meza cane turagahingaga, iyo gamaze kwera turagafataga gamwe tukagarya, agandi tukagabeteshamo igikoma agandi tukabeteshamo ikigage, agandi tukagagurisha, twamara kugagurisha, amafaranga gose tubonye tukagakoresha dukemura ibindi bibazo byose dufite mu rugo.

Ubuhinzi butuma tubona imbuto nyinshi cyane: Harimo nk'ibigori, harimo n'ubunyobwa, harimo soya, ndetse n'ibindi byinshi cyane bidufasha kugira ngo tubashe kuba twagira imbaraga. Ibindi bikadufasha kurwanya indwara, ibindi bikadufasha kugira ngo tubigurishe, tubone twiteza imbere.

Ibigori ni byiza turabihingaga bikera neza tubashaga kuba twabona ibyo turya ibi tukabifata neza tukabihunika tukazabigurisha igihe co kubigurisha byagize amafaranga menshi kigeze ago mafaranga gakadufasha gukemura ibindi bibazo twari dufite.

Ubunyobwa ni bwiza cane. ubunyobwa turabuhingaga, twamara kubuhinga, tukabugurisha, twamara kubugurisha, na bo bakagenda, bamwe bakabukaranga bakabutembereza mu ndobo, abandi bakabushyira mu tuntu tumeze nk'udutekawe ukuntu ku buryo ushobora kuba watujana, mbese muri rusange, ubunyobwa ni igihingwa ciza cane kubera ko ushobora no kuba wabugurisha hanze y'igihugu bukaguha umusaruro ukomeye cane.

Ibigori turabihingaga, iyo tumaze kubihinga turategerezaga bikera, iyo tubonye byeze turabisaruraga tukabyanika, bimwe turabigurishaga ibindi tukabifata tukabibika tukajya turabirya twebwe ubwacu.

Ubunyobwa ni bwiza turabuhingaga twarangiza tukabugurisha, twabugurisha tukabona amafaranga ubwo tutagurishije tukaburya, turaburyaga tukumva turishimye kuberako bukoraga isosi nziza abantu bose barabukoreshaga no mu bindi bintu byose bitandukanye bishobora no kugurishwa no mu mahanga n'ahandi hose.

Ubunyobwa nk'igihingwa kigezweho mu iki gihe kiri ku isoko bikomeye, ni igihingwa duhinga, twamara kugihinga cyakwera tukabugurisha, iyo tubugurishije tubonaga amafaranga. Amafaranga tubonye tukayakoresha twishura inzu, twishura amazi, twishura n'ibindi byo kurya muri rusange.

Imiteja ni imboga nziza turazihingaga, iyo duhinze ibishimbo bikagera aho biba imiteja bibaga byakuze tukabifata tukabisoroma, iyo tubisoromye turabiryaga ibisigaye tukabijana mu masoko, iyo tubigejeje mu masoka tukabona amafaranga, turagafataga tukagishuramo ibindi bintu. Dushobora kuba twaguramo amatungo, tukaba twaguramo n'ibindi bitandukanye bidufitiye akamaro.

Ibishimbo ni byiza cane, turabihingaga, iyo twabihinze bikera neza, turabifataga tukabigurisha tukisigira n'ibyo tuzaja turarya, ariko cyane cyane ku ruhande rumwe ibihingwa ibishimbo twagurishije, iyo tubigurishije neza tukabona amafaranga, turagafataga tugakemuza ibindi bibazo twari dufite mu rugo, tukishura amazi, umuriro, ibyo kurya n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibigori ni byiza turabihingaga iyo tumaze kubihinga turategerezaga bikera, iyo byeze turabisarura twabisarura tukabirya, ibindi tukabigurisha tukabona amafaranga adufasha gukemura ibindi bibazo, ibindi bibazo duhura nabyo.

Imbuto zibaga nziza turazihingaga zikaba zakwera zikaturinda indwara. Iyo twaziriye neza twirindaga indwara, izindi tukazigurisha, twazigurisha tukabona amafaranga adufasha gukemura ibibazo dufite mu miryango yacu, tukanishura n'amashuri twishurira abana bacu.

Ubunyobwa ni ikintu ciza cane，abantu bose bafatiraho icitegererezo，nk'igihingwa ciza gishobora kuba catanga amafaranga bikomeye，abantu benshi bahingaga ubunyobwa， bamara kubuhinga， bakabufata， bakabugira ibiryo byabo bya buri munsi，ubundi bakabufata bagasagurira n'amasoko，bakabugurisha， bakabasha kuba baguramo ibindi bikoresho bikenewe murugo.

Ihene ni nziza turayorora, iyo twayoroye neza igakura ikaba nzima ikaba nziza, turayigurisha tukabona amafaranga, cyangwa se tukayibaga tukabona inyama zo kurya tukabona n'izo tugurisha, n'abaturanyi bakumva bameze neza.

Inkoko ziri ahantu mu kirunduro cyazo, inkoko nyinshi cyane biteye ubwoba pe! harimo utwo ziriraho.

Korora ingurube ni ibintu byiza cane, kubera ko iyo woroye ingurube ukagira ikibazo ufite ingurube zawe zikuze zimeze neza, ubashaga kuba wazifata ukazigurisha, wamara kuzigurisha ugakemura ibibazo byose wari ufite, ukishura inzu, ukishura amazi, cangwa se n'ibindi byo kurya wari ukeneye. Ikindi kandi ingurube zishobora kuba, ushobora kuba wayibaga ukirira akabenzi.

Umwuga wo gutera imiti amatungo ubaga umwuga mwiza cane, kubera ko ufashaga amatungu kugira ngo gate kugira indwara gakabaho neza, n'uwateye uwo muti na we akabaho neza niba ari umuntu wabigize umwuga arahembwaga akabona amafaranga go gukemuza ibibazo, n'umuturage ufite ago matungo akabaho yishimye, kubera ko amatungo aho gari gaba gafite ubuzima buzima.

Korora inka ni byiza cyane, kubera ko iyo woroye inka ubasha kuba wabona ifumbire, ubasha kuba wabona amata, ukabasha kuba wabona amafaranga mu gihe uyakeneye, ushobora kuba wayigurisha, igihe ugurisha amafaranga yose ukuyemo ukabasha kuba wayakoresha mu bindi bintu ushaka kukwikorera muri rusange, ushaka nko kuba wakwishyurira umwana ishuri, ndetse hari n'ibindi byinshi cyane uba wayafata ukayakoresha.

Umwuga wo korora inkwavu ni umwuga mwiza cane ushobora gukorwa na buri umwe wese ubyifuza, inkwavu ni nziza turazororaga, iyo twazoroye zigakura neza zidapfuye, cangwa zitagize indwara nimwe zihura nazo, kubera abaveterineri baba bazitagaho, ico gihe iyo zikuze neza turazigurishaga izindi tukazifata tukazirya, amafaranga tugurishije tugurishije mu izo nkwavu tukagafa tugakoresha tugura ibikoresho dukeneye.

Ihene zibaga nziza kuko kuko kuko abantu turazororaga, iyo tuzoroye zigakura cangwa se zikanabyara zikaba nyinshi zimwe turazigurishaga n'abandi bakaja korora, izindi tukazigurisha kugira ngo bagende bazibage tubone inyama zo kurya.

Amagi ni meza cane kubera gu umuntu umuntu ugafite ashoboraga kuba yagagurisha yaba atanagagurishije agaba yagarya we ubwe ikindi kandi amagi arinda indwara zitandukanye iyo wagariye neza garagufasha mu mubiri.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ikintu ciza cane, bitumaga amatungo atangirika cangwa ngo ahure n'indwara kanaka, bigatuma ndetse tubasha kuba twayakuramo umusaruro ukomeye cane, ameze neza yujuje ubuziranenge.

Umwuga go gucuruza inyama no kubaga ni umwuga mwiza cane umwuga ushobora guteza imbere uwukora iyo awukoze neza akabaga inyama zifite gahunda ,zifite zifite ubuziranenge ico gihe bitumaga abakiliriya bamugana iyo bamuganye bakamuha amafaranga ashobora kuba yagakoresha ari kwikenura ari no kugira ibibazo bimwe na bimwe akemura akanarushaho gutera imbere.

Inkoko ni nziza turazororaga， iyo twazoroye neza zigakura， zikaba zagira ibiro byinshi， turazigurishaga，iyo tuzigurishije tubonaga amafaranga amafaranga akadufasha gukemura ibindi bibazo， kandi n’izo tutagurishije tuzikoresha tuzikoresha mu rugo tuzirya.

Umwuga w'ubuveterineri ni umwuga mwiza cyane umwuga usobanutse, kubera ko iyo ubashije kuba wakiza ubuzima bw'ibinyabuzima harimo nk'inka, ihene, intama, ndetse n'utundi tunyabuzima twose amatungo yo murugo muri rusange, icyo gihe ubona amafaranga ayo mafaranga nawe uhembwe akagufasha kwiteza imbere murugo.

Gukarabya inka cyangwa kuyitera umuti ni ibintu byiza cane, kubera ko bituma wirinda ibirondwe. Ukayirinda ibindi bisimba bishobora kwangiza uruhu rwayo, cyangwa ubwoya bwayo bigatuma inka ibaho neza imeze neza, igatanga umusaruro uhagije, ifumbire ikanatanga n'amata, ikanabyibuha muri rusange.

Inka ziba nziza cyane bikaba akarusha iyo zivura neza kuzivura bituma uzirinda indwara, indwara ntizizigeraho cyangwa se zaba zinafite n'indwaraka ukazivura zigakira, iyo inka zavuwe zigakira zigakura neza urazifata ukazijyana ku isoko izindi ukajya urazinywamo amata ukawu ugahora mu buzima bushimishije.

Amagi agaragara meza cyane kubera ko iyo inkoko zateye amagi menshi, urayafata amwe ukayateka ukagurisha atetse, kandi ukayagurisha ari mabisi, cyangwa se ukanagira ayo ukuramo ukayarya. Amagi wagurishije ushobora kuba wakwishyurira, wafata amafaranga ukuyemo ukishyurira abana amashuri, ayandi ukayakoresha wishyura inzu, amazi n'umuriro muri rusange.

Umwuga wo kuvura amatungo ubaga mwiza cyane, kubera ko iyo wavuye amatungo ubaga uri kugarura ubuzima bw'ibiremwa by'Imana, ikindi kandi bikanaguhesha amafaranga, kuko iyo wavuriye inka umuturage, bituma aguha amafaranga maze nawe ukarushaho gukemura ibibazo byawe neza.

Ingagi zibaga nziza cane ni inyamaswa yiberagaho nk'abantu idafite itandukaniro rikomeye haga ri rikomeye hagati yayo n'abantu, ikindi kandi ngo ifashaga abantu kuba babona amadovize, iyo ba ba Mukerarugendo baje badusigiraga amafaranga adufasha mu bindi bintu.

Inyoni ni nziza cane， ni ibidukikije zishobora kuba zaba dekorasiyo y'ikirere， inyoni zaremewe kuguruka mu kirere， zikaba zatuma ikirere cyacu kimera neza， inyoni zishobora kuba zarya udukoko， udukoko twica twica ibihingwa byacu， tukabasha kuba twasarura neza ku bw'uko inyoni zishe ubwo bukoko zikaburya.

Inyamaswa zo mu ishamba zibaga nziza cane kuko zitariho natwe ntitwabaho ziradufashaga muri rusange zikururaga bamukerarugendo izindi zigatuma ahantu ahantu ziri hagaragara neza aho kuko buri kinyabuzima cose kigiha akamaro kaco imana iba yarakiremye kubw'impamvu.

Inyamaswa zo mu ishamba ni inyamaswa nziza cane, zitumaga tubona ba mukerarugendo, bakaza bakazireba bakishima, bakabasha kubona n'ibyo batigeze babona, utunyamaswa dutandukanye mbese dutanga ifumbire, tukanatuma abantu babaho neza bishimye.

Inyoni zibaga nziza cane kuko zibasha kuba zatuma ahantu huzuza huzuza uburanga bwaho hakabaho hameze neza, inyoni kandi zikurura ba mukerarugendo, inyoni ziryaga udukoko dushobora kuba twakwangiriza imyaka yacu mbesi muri rusange inyoni ni nziza cane zidufitiye akamaro gakomeye.

Ibigoma byo mu kirere bibaga byiza cyane cyangwa se utunyoni two mu kirere tubaga twiza cyane kubera ko Imana ibaga yaradushyizeho ngo tube twa dekora ikirere, ikindi tukanadufasha mu bindi bintu, ziryaga udukoko tubaga twakwangiza ibihingwa n'ibindi byinshi cane.

Inyoni zo mu ishyamba ziba nziza cyane, kubera ko zibasha kuba zaza mu giturage, zikarya udusimba tuba twakwangiza imyaka. Izindi na zo ziba nziza cyane kubera ko zikurura ba mukerarugendo, bakaduha amadovize.

Inuma zibaga nziza cane ni utunyamaswa twibera mu ishamba, izindi zikaba zaranorojwe n'abantu zishobora kuba zabyazwamo inyama, izindi zikaba zabyazwamo amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ba mukerarugendo bakaza bakazireba bakishima bakadusigira amadovize.